Umwana uri aha ngaha rero urabona ko ari kugenda anywa amazi ayakinisha, ariko ntabwo biba byiza ko umuntu aba yakoresha amazi gutya. Niba ari umuntu ugiye kunywa amazi fata igikombe utegeke ku mugezi hajyemo amazi umwe utarenze wayasesagura agwa hasi.

Aha hantu rero murabona ko ari ahantu hahuriye abantu, nubwo mubona ari itsinda rimwe, ariko hari irindi tsinda riri inyuma, rero bisa naho bagiye bari mu matsinda, hari ibyo bari kugenda bunguranaho ibitekerezo mu matsinda yabo, baraza kubikusanyiriza hamwe, kugira ngo babone ikizima, cyangwa se abafite ibitekerezo bizima.

Ku bantu rero bateraniye hamwe bigaragara ko barimo kugenda baganirizwa ku ngingo zitandukanye, hari umugabo ubahagaze imbere afashe ikaramu ndetse n'izindi mpapuro mu ntoki. Ariko biragaragara ko ariwe uri kugenda ubaganiriza, nkuko mubibona rero nkabona ko ari kugenda baganiriza. Nabo bamuteze amatwi kugira bumve neza ibyo arimo kubabwira.

Abana batatu bari ku ishuri ariko urabona ko baje gukaraba intoki n'amazi meza kandi n'isabune, rero mu gukaraba intoki ni kimwe mu buryo bwo kwirinda indwara kuzikumira, indwara zijyanye n'inzoka, indwara nyinshi cyane ziterwa n'umwanda.

Aha ngaha rero murabona ko ari abana bisumye, ariko aba abana bakaba bari gukaraba intoki. Kaba hari umupapa ufite amazi mu jage urimo kubasukira bagakaraba intoki, kugira ngo babashe kuba bajya gufungura, bafite intoki zisa neza.

Aba bantu baraha nga rero, barimo kugenda bandika ibintu bafite udukarita bari kujya barebaho, bakandika mu yindi kayi nini cyane, bigaragara rero ko hari ibintu barimo kugenda buzuza barebeye kuri izi karita.

Uruhurirane rw'abantu, ahangaha bigaragara ko ari abantu b'abamama bafite abana bari kugenda basinya kugira ngo bagire ibyo bahabwa kwa muganga. Hari abasinya bagiye guhabwa amafu n'ibindi bintu byafasha abana babo gukura batagwingiye.

Abantu bari aha ngaha rero murabona ko ari abantu bakuze, abantu bakaba bambaye amataburiya yerekana ko ari abajyanama b'ubuzima, urabona ko bari kugenda bahabwa amahugurwa aho bose bafite ibitabo byo kwandikamo ndetse abandi bakaba bari gukurikirana ibyo bari kubwirwa.

Ahanga ngaha murabona umuforomokazi akaba ari kugenda abarura . Rero murabona ko hari icyapa cyanditse ngo sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye. Hakaba rero uburyo bwo kurwanya sida. Sida murabizi ko yandurira mu bintu bitandukanye harimo imibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse n'ibindi bintu.

Abantu bahuriye aha ngaha rero bigaragara ko bari kuvoma, akaba ari wa mugezi bafata bagahaga bakamera nk'abari gupompa kugira uzane amazi menshi, rero murabona ko ari umugeze munini abantu ba bamama bakaba bawuhuriyeho kugira ngo babone amazi byihuse.

Serivisi zitangwa rero n'abaganga murabona umuntu waje kwikingiza bakaba barimo kumutera urushinge kugira ngo babashe kuba bamukingira indwara zitandukanye, rero abaganga mu byukuri bifashisha gutera inshinge cyane iyo umuntu arwaye cyangwa se bari kumukingira indwara runaka bamutera urushige kugira ngo rubashe kuba rwajyana imiti myiza mu mubiri.

Aha ngaha rero murabona ko hari gukorerwa igikorwa cyo gukingira, aho mubona abaforomokazi bari kugenda bakingira indwara, rero muraboba umusaza uri aha ngaha, bari kumutera urushinge ariko nawe yabyemeye, aravuga ati munkingire ntazarwara indwara.

Aha ngaha rero hari umumama urimo kuvoma amazi, noneho hakaba hari abandi bamama bari kugenda bamupompera kugira ngo abone amazi ahagije, rero iyi ni ya migezi bakoresha uburyo bwo kujya bayapomba kugira ngo aze, ari amazi menshi.

Uruhurirane rw'abantu benshi, bahuriye ku nyubako y'Akagari, aba bantu rero bakaba baje mu nama ku buryo babirwa, ibintu bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwabo, cyangwa se bijyanye no gukurikiza amategeko y'igihugu.

Umuntu rero uri aha ngaha murabona ko yaje kwivuza, hari abantu abaganga babiri, barimo kugenda basuzuma abantu ndetse basa n'abari kubafata amaraso kugira ngo babashe kureberaba mu maraso yabo indwara baba barwaye, noneho babone uko baza kuyivura.

Aha hari abana ndetse mukaba mubonako bambaye imipira yanditseho UNICEF. UNICEF rero akaba ari umuryango ushinzwe kwita kuburenganzira bw'abana, imibereho yabo, imikurire yabo, imyigire yabo ndetse akaba ari umuryango ushinzwe kwita cyanecyane ku gukura kw'abana kumikurire y'abana.

Aha ngaha rero harimo kugaragara murabona neza abana b'abanyeshuri, bakaba baje kuvoma hano amazi yo gukoresha isuku mu makarase, yo gukoresha isuku mu kigo cyabo kugira ngo bakomeze kwirinda umwanda.

Abantu bari aha ngaha rero urabona ko ari abantu bisa naho baje kwivuza ku bitaro, urabona rero ko bose bicaye bategereje serivisi, ariko urabona ko bicaye bose bihanganye bategereje ko babagerwaho bakaba bahabwa serivisi bifuza.

Aha ngaha rero murahabona umugezi. Uyu mugezi ukaba wahuririweho n'abana baje gushaka amazi. Urabona ko hari umumama urimo kubafasha kuvoma, abahagira amazi kugira ngo aze ari menshi.

Abantu bateraniye aha ngaha rero, bigaragara ko bari kugenda bapima ibiro by'abantu batandukanye ndetse bagahabwa n'inyigisho zijyanye n'uburyo bakwitwara, n'imirire ,kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Uyu mwana rero urabona ko bigaragara ko ari ku kigo cy'amashuri, yambaye iniforume ariko biragaragara ko ari avuye kuri tuwarete, akaba aje kukaraba mu buryo bwo kunoza neza isuku, ubonako hari kandagira ukarabe, ndetse n'akabase kajyamo amazi yanduye, rero iyu umwana ari gukaraba mu buryo bwo kunoza isuku.

Aha ngaha rero urimo kubona abantu aba bantu akaba ari abantu bambaye neza ariko ikindi bikaba bigaragara ko ari abantu bakora munzego za leta, urabona rero hari abantu bashinzwe kwita kubuzima, imibereho y'abantu kugira ngo muri rusange bakomeze gutera imbere no kugira ubuzima bwiza.

Umugezi uri ahangaha rero umugezi utonzeho ibijekani bigaragara ko hari umama urimo kuvoma, rero ahangaanga akaba ari amazi meza amazi aba yarashyizweho na leta aba yarashyizweho na wasake kugira ngo abashe kuba yakoreshwa abaturage bagire ubuzima bwiza bitewe n'isuku bakomora ku mazi.

Aha ngaha rero urabona ko ari ku mugezi aho haje abana barimo kuvoma, murabona rero undi mukobwa urimo kubafasha kuvoma abahagira mu mazi kugira ngo amazi aze ari menshi batware amazi vuba.

Abantu bari ahangaha rero murabona ko bose amaso bayahanze mbere bigaragara ko bari guhabwa inyigisho, ariko bakaba baporojegitinze cyangwa se bakoresheje porojegiteri kugira ngo abantu bose babashe kuba babona ibiri kujya mbere n'uburyo biri mu gukorwa.

Aha hari umugezi, umugezi uriho ibijerekani byinshi, bigaragara ko abantu baba bazanye amajerekani bagatonda kugira ngo nibaza kugerwaho bavoma, rero aha hantu mubona ko hava amazi meza, harubakiye, hafite isuku, n'aba bantu baba baje kuvoma kugira ngo babone amazi yo gukoresha mu ngo zabo.

Uyo mwana rero murabona ko ari umwana ukiri muto cyane, ariko akaba afashe icupa ririmo amazi, bigaragara ko ari gushaka kuyakaraba ariko kuyafungura bisa n'ibyamunaniye ariko murabona ko mu mutwe we harimo ibitekerezo byo kuba yakarabayaga aya mazi.

Abantu b'urubyiruko bigaragara ko bishimye cyane, bose bakaba bambaye imipira y'ubururu ndetse n'amapantaro y'umukara, bakaba bari kwamamaza unisefu, rero akaba ari uburenganzira bwa buri mwana, uyu nguyu akaba ari umuryango ushinzwe kwita ku bana n'imibereho yabo.

Aha rero murabona ko ari umwana barimo gusuzuma, uyu muganga akaba ari mu biro bye ndetse uyu mumama akaba yazanye umwana kugira ngo bamusuzumire barebe arwaye iki? Ese bamuvura bate?

Uruhurirane rw'abantu benshi abantu bigaragara ko baje gushaka serivisi aha hantu, biragaragara ko ari ku kigonderabuzima. Aho abantu baba baje aha bikaba bigaragara ko harimo kubonako ari kuri reception cyangwa se aho bakirira abarwayi, rero abantu benshi barahicaye bategereje ko bagerwaho bakakurwa.

Ahangaha rero murahabona ikirango, kiriho umubyeyi uri kurembera ufite umwana. Rero iki kirango mukize ni ikirango cya UNICEF, UNICEF akaba ari umuryango ushinzwe kwita ku bana, imikurire yabo, imibereho yabo.

Abantu bari aha ngaha rero murabona ko ari abantu bicaye mu ntebe nziza kandi bahanye intera. Bigaragara ko hari muri cya gihe cya korona virusi aho babona ko bari kwiga ku bintu bitandukanye kandi bose bambaye udupfukamunwa n'ikindi biragaragara ko bicaye, bari guhugurana ku bintu bitandukanye.

Uruhurirane rw'abantu benshi, abantu bari aha ngaha, murabona ko hari umugore uryamye hasi, bigaragara ko abantu benshi bamukikije, abana higanjemo cyane cyane abana baramukikije rero, bisa n'aho hari ikibazo afite, akaba atuzuye mu mutwe, bityo abandi bakaba bamukikije, bari gushungera ngo barebe ibibaye.

Aha hari umugabo uyu mugabo akaba afashijerehani arimo bwaranngera kuvomamo amazi amazi rero ni ingirakamaro urabona ko uyu mu umugabo yishimiye kuba yaje kuvoma mazi kuko amazi akoreshwa ibikorwa bitandukanye harimo byinshi cyane mu rugo hari ibintu byinshi cyane bikenera gukorwa ari uko hariho amazi rero niyo mbamaza ari ingenzi cyane mu buzima bw'abantu.

Aha ngaha rero ni inyubako, urabona ko ari mo imbere mu bitaro, hakaba harimo abaganga cyangwase abaforomo bari bifotoreje aha ngaha, berekana ko bishimiye akazi bakora ndetse bafite n'ubushake bwo kugakorana umwete.

Umukobwa uri aha ngaha biragaragara ko yari arimo gufura imyenda akaba arangije kuyifura. Urarabona ko rero yashyize ibintu byose ku murongo, ibi ngibi bikaba abigaragaza bimwe mu kamaro k'amazi, harimo no gufura imyenda ndetse no gukaraba, gukoropa n'iyindi mirimo itandukanye yo mu rugo isaba amazi.

Aba bantu rero murabona ni uruhurirane rw'abantu benshi ariko biragaragara ko ari abantu bagiye bicaye mu matsinda noneho bakaganira ku ngingo runaka, bose buri wese wo muri iryo tsinda, akaba yatangaho ibitekerezo.

Abanyeshuri barahangaha rero murabona ko barashyizeho ikigega kugira ngo abanyeshuri bajye babona amazi bitabagoye urabona ko bose bafashe ibikombe barimo kunywa amazi kandi bose bishimiye kunywa. Amazi maze rero ni ingirakamaro ni ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu kuko afasha mu kuyungurura amaraso afasha ibintu by byinshi ko bigenda neza mu mubiri.

Aha ngaha hari umugezi, akaba ari wa mugezi biba bisaba ko bafata bakawuhaga, kugira ngo amazi aze ari menshi. Rero murabona abana batoya baje kuvomo kugira ngo bashyire ababyeyi amazi, babe bayakoresha imirimo itandukanye yo mu rugo.

Ahangaha ni mu kiyaga, iki kiyaga murabona ko harimo umwana urimo kuvoma mazi, rero aya mazi agiye kuyajyana mu rugo bayakoreshe, amazi murabizi gakoreshwa ibintu byinshi mu rugo hari ukuyafurisha, kuyatekesha, kuyakararaba, mbese ibintu byinshi bijyanye n'amasuku bikoreshwa amazi.

Aha ngaha rero hari inshinge ariko bikaba bigaragara ko ari insinge zitarakoreshwa, rero izi nshinge abaganga barazifashisha bagiye guha abantu umuti, bakarufata bakarufungura bakaza gukoza muri aka kantu kameze nk'agacupa noneho bagakurura umuti bakawutera umurwayi.

Uyunguyu rero murabona ko ari umugezi, uyu umugezi bikaba bigaragara ko ukozwe vuba, noneho aba bantu bakaba baje kuwuvomaho ndetse mu buryo bwo kugerageza ngo barebe ko uzajya unakora neza.

Aha rero murahabona ibimodoka bakunda kwita ngo ni imodoka za rukururana. Izi modoka rero aka ari imodoka zifashishwa mu gutwara ibintu byinshi. Izi modoka rero urabona ko ziriho ikirangantego cya WFP, Iyi rero akaba ari imodoka zifashishwa cyane mu kugenda zitwara imiti, bambukiranya imipaka.

Aha hari agatanda kanitseho amasahane urabona ko ari agatanda rero kakozwe kugira ngo kajye gashyirwaho amasahani, igihe amaze kozwa bakayarambika aha ngaha akabayo yumuka kugira ngo igihe cyo kuyaruraho nikigera abe ari amasahani yumunsitse ni neza.

Murabona aha ngaha hari umwana wazanye igikombe ku mugezi, ari kuvoma. Ariko murabona ko ari amazi yo ku kigega, kandi murabizi ko amazi yo kukigega, amazi y'imvura abatari byiza kuba wayakoresha ibintu bijyanye no guteka, gukaraba intoki, ahubwo ari ayo gukoreshwa imirimo yo gufura.

Aha ngaha rero, murabona ko hari gukorerwa igikorwa cy'ubuvuzi, hakaba hateraniye abaganga benshi, bigaragara ko uyu murwayi barimo kuvura asa n'aho arimo kubagwa. Urabona ko rero hateraniye abaganga benshi kugira ngo bafashanye uyu murwayi ataba yabaca mu myanya y'intoki.

Ahangaha rero nk'uko mubibona, murabona ko ari umu mama wicaye ateruye umwana ndetse hakaba n'undi mugabo ufite ibintu byinshi, ariko bigaragara ko ari kugir’inama uyu mu mama, har’ibyo ari kugenda amubwira bigaragara ko ari kumugira inama.

Aha urabona ko ari ahantu habereye igikorwa cyo gusuzuma uri kubona ko hari umujyanama w'ubuzima urimo gusuzuma uyu mugabo kugira arebe ko hari indwara yaba bafite. rero umuntu zi ko ari byiza kwisuzumisha mbere kugira babe bagusuzuma barebe niba nta ndwara ufite barebe niba umubiri wawe urimo gukora neza mu buryo bwo kwirinda indwara hakiri kare .

Aha ngaha rero hariho umuntu bisa naho afite ibibazo, akaba yicaye ndetse hariho umuntu uri kumukoraho, bisa naho ari gushaka kumwihanganisha mu bibazo afite.

Ahangaha rero hari igishushanyo ariko icyo gishushanyo kikaba kiri kugaragazamo imbere h'ubwonko, uburyo ubwonko buba buteye mu mutwe w'umuntu, ndetse n'uburyo buzamuka bufatanye bigafatana n'ijosi bikagera mu mutwe w'umuntu.

Aha ngaha rero hari umugore uteruye akana, urabona ko bose bishimye cyane n'umwana arimo guseka bigaragara ko ari umuntu ufite ubuzima bwiza, ufite imibereho myiza, ni uko mubona ukuntu ameze murabona ko ari umwana wabashije kubona intungamubiri.

Aha ngaha rero murabona abantu bahateraniye, abantu bose bakaba bambaye amakarita aranga akazi bakora. Abantu rero murabona ko ari abantu bakora mu bintu by'ubuzima, bakaba bari kugenda biga bari mu mahugurwa ajyanye n'akazi bakora kugira ngo bunguke byinshi mu buryo bwo kwita ku barwayi.

Ahangaha rero murahabona umugabo bikaba bigaragarako uyu mugabo afite agahinda gakabije, murabonako yarize amaraso yatukuye ibimwira byamanutse rero akaba bigaragarako uyu mugabo afite agahinda kenshi.

Aba bantu rero murabona ko bateraniye hamwe, ariko biragaragara ko baje gusura uyu mugabo afite uburwayi bwo mu maguru cyangwa se ubwo tuzi ku izina ry'amavunja, abona rero ko barimo kumuganiriza basa n'abari kumutera inama yo ko yakwirinda ubu burwayi n'uburyogomba kugira i suku kugira ngo yirinde iyi ndwara.

Aha ngaha rero murabona ko ari umugenda munini, ni umugenda hakaba hicayemo umuntu bigaragara ko asa nk'umusazi cyangwa se umuntuje udafite ubwenge butekereza neza, none rero murabona ko yicaye umusatsi hakenyeye igitenge, nyine murabona ko ubuzima bwamucanze pe.

Aha ngaha murabona amagambo yanditse ngo World Mental Health Day 2023, uyu nguyu rero akaba ari umunsi wahariwe kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe ku rwego rw'isi, uyu akaba ari umunsi wakozwe wo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu.

Abantu bahuriye hamwe rero urabona ko bari mu nama. Bari kugenda baganizwa ku bintu bitandukanye. Uyu mu mama ubahagaze imbere rero, bose murabona ko bamuteze amatwi ndetse bose bamuhanze amaso ,kugira ngo bumve neza ibyo ari kuvuga babe banatanga ibitekerezo cyangwa ufite ikibazo abe yakibaza ahave asobanukiwe.

Urujya n'uruza rw'abantu rero bakoraniye hano bakaba bigaragara ko bari mu gikorwa cy'inama aho uriya umuntu uri imbere ubahagaze imbere ari kugenda ubabwira noneho nabo bakawutega amatwi bakumva ibyo kubabwira kugira ngo baze gutanga ibitekerezo cyangwa se n'abafite ibibazo baza kubibaza bumvise neza ibyo yababwiye.

Aha ngaha rero hari umumama akaba ameze nk'urimo kurira ariko akaba afite uburwayi, akaba arimo kuribwa umutwe ku buryo ari kumva yarira bitewe n'uburwayi bumuremereye.

Abantu benshi batandukanye bari aha ngaha, urabona ko hari ingeri z'abantu batandukanye bambaye imyenda itandukanye, rero bisa nkaho na bo bari ahantu ku bitaro bakaba bafashe ifoto y'urwibutso, wagira ngo ni amahugurwa bari barimo bakavuga bati: "Reka dufate ifoto y'urwibutso aha hantu".

Aha rero murabona ko ari ahantu hasa n'ahari kubera ibiganiro, ariko akaba ari RBC yabiteguye, ubona ko handitse ngo" World mental Health Day", bisobanuye ko ari Umunsi Mpuzamahanga w'Ubuzima bwo mu Mutwe. Rero murabona ko abantu babyitabiriye ndetse bari kugenda batanga n'ibiganiro kuri ibyo bintu.

Aha ngaha rero ni aho twita mu kimoteri cyangwa se mu ngaranti, ariko murabona hari umugabo urimo, bigaragara ko afite ihungabana mu mutwe, adafite mu mutwe hazima. Urabona yaje atora amashashi, atora ibintu by'ibyenda bishaje, arabyizirika, arabyambara, ariko ikigaragara cyo ni ahantu ho kumena imyanda itabora.

Aha nga rero hari umugabo ariko bigaragara ko atuzuye mu mutwe, urabona yambaye imyenda yashwabari, afashe ibifuka birimo ibintu bitazi bya aribyo, uyu muntu rero akaba agaragara nk'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Hari abantu ariko ko bigaragara ko ni bantu bashonze murabibona ko abana barikurira, ababyeyi bose bateza intoki bari gusabiriza, murabona ko rwose hari abantu bababaje bambaye imyenda yincwabari, imisatsi yabereyeho ndabona ko ari abantu babaje.

Aha murahabona abantu batatu harimo cyane cyane umuma n'umusaza, ndetse wagira ngo bafashe umwana, uyu mwana wabo bafashe rero mu maboko akaba asa n'urwaye, murabona ko asa n'urwaye, ari yo mpamvu bari kumufata kugira ngo bamujyane kumuvuza.

Aha ngaha rero murahabona ikirango, iki akaba ari ikirango kirimo umutwe, hakaba handitseho ngo world mental health day, October ten. Aha ngaha rero akaba ari umunsi wo kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe, ku rwego rw'Isi

Murabona umugore yicaye aha ngaha inyuma y'igiti, uyu mugore bikaba bisa naho ahazirikiye, yuko murimo kubona umugozi mu birenge bye, bamuzirikiye kuri iki giti kugira ngo atabacika.

Abantuha rero murabona ko ari umukecuru ariko akaba ari kumwe naabantu benshi bigaragara ko ukuntu abo bana bari kureba bashonje bishcwe n'inzara bakaba rwose bari kureba ko hari umugiraneza wahabonera icyo kurya.

Aha ngaha rero murahabona umugabo wicaye aha ngaha, uyu mugabo akaba yicaye impande y'ikimoteri. Rero biragaragara ko uyu mugabo adafite mu mutwe wuzuye neza, ahubwo yaba afite ikibazo cy'ihungabana.

Urujya n'uruza rw'abantu bakoraniye ahangaha rero, hakaba hari kubera serivise zijyanye n'ubuvuzi ndetse no gusuzuma. Urabona ko hari abantu bagiye bicaza impande n'impande, akameza kariho n'intebe ebyiri kugira ngo kicareho umuntu uri gusuzuma ndetse n'uri gusuzumwa kugira ngo bakomeze kunoza serivise nziza.

Uruhurirane rw'abantu bari aha ngaha, ariko murabona ko ari ahantu habereye ikirori, murabona abantu bahagurutse bari gukoma mashyi, bisa nk'aho hari abantu bari kubyina barimo gukomera amashyi.

Aha ngaha rero hari umukobwa, uyu mukobwa akaba arimo koza amenyo ye, yifashishije uburoso ndetse na kologate, ibi ngibi rero akaba ari ingenzi cyane, ko bifasha umuntu kuba yakita ku menyo ye, bikarinda amenyo kuba yarwara indwara z'amenyo zitandukanye.

Aha ngaha rero harimo gukorerwa ibintu bijyanye n'ubuvuzi, urabona hari umumama uryamye aha ngaha, ndetse hakaba n'umuganga uri imbere ye, akaba afite akantu k'akadodo bisa naho agiye kumukura amenyo arwaye. Rero murabona ko ari kumuha serivise nziza.

Nk'uko mubibona aha ni kwa muganga, urabona umurwayi araryamye noneho muganga arimo kumusuzuma, bigaragara ko ari kumuvura amenyo. Urabona rero ko harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga w'amenyo kugira ngo abone uko avura abaje bamagana abahe serivisi zinoze.

Ahangaha rero murabona umugabo akaba afashe urudodo uyu mugabo rero biragaragara ko harimo gukoresha urudodo mu menyo ye kugira ngo ayagirire isuku ayiteho amenyo ye areke kuba yakatakwa n'indwara nk'ifumbi n'ibindi biterwa n'umwanda.

Aha ngaha rero murabona ko harimo gukorerwa igikorwa cy'ubuvuzi aho bigaragara ko uyu umuntu barimo kumuvura amenyo, murabona rero ni umugabo yaryamye noneho umuganga we akaba ari we uri kugenda amusuzuma amenyo ye akareba ayo agomba kuvura.

Ahangaha ni inyubako irimo ibintu ibikoresho byinshi bitandukanye harimo imashini bigaragara habera igikorwa cyo gusuzuma abarwayi, ahangaha rero ntaho baba bavurira amenyo ahangaha umurwayi araza akaryama kuri aka kantu kameze nka nk'akarere, noneho yarangiza bakamusuzuma amenyo bakanamuvura.

Aha hari abanyeshuri rero bari kumwe n'umwarimu wabo, abanyeshuri murabona ko bafashe uburoso ndetse na korogate. Rero akaba ari uburyo bwo kugira ngo bajye baborosa amenyo yabo, bayoze, bayiteho, batazahurana n'indwara z'amenyo.

Aha ngaha rero murabona ko ari umwana ukiri muto, uyu mwana bakaba barimo kumusuzuma mu menyo ye, barimo kureba amenyo ye uko ameze, ndetse n'uburyo bakomeza kuyitaho kugira ngo atazangirika, atazahura n'ibintu byarangiriza, ahubwo bakamuha uburinzi bw'amenyo.

Aha ngaha rero murabona ko hari gukorerwa ibikorwa bitandukanye, aho abantu bari kuza bakajya ku munzani bakareba ibipimo byabo ,ndetse bigaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa. Aho cyane cyane bijyana no gupima indwara zo mu kanwa, ishinya, amenyo ibyo ngibyo uyu munsi bakaba bari kugenda babikora basuzuma abantu.

Aha ngaha rero murahabona umugabo, akaba afite akadodo mu menyo, aka kadodo rero kakaba kifashishwa cyane, mu kugenda bgerageza amenyo ngo bumve ukuntu amenyo ameze, bumve ko ameze neza mu kanwa.

Uyu mumama mubona aha ngaha rero murabona ko arimo koza amenyo ye, akoresheje uburoso, kandi ibyo ngibi akaba ari ingenzi cyane ku menyo, kuko biyarinda kuba yarwara indwara z'amenyo zitandukanye.

Uyu mugabo rero uri aha urabona ko arimo guseka, ariko afashe urudodo bigaragara ko uru rudodo rwifashishwa mu bintu bijyanye no kwita ku menyo, kuyakura ndetse no kuyasukura rimwe na rimwe bararwifashisha.

Iyi rero mubona ni nyubako nini cyane ikaba ifite ibyumba bitandukanye, iyi nyubako rero biragaragara ko ari ahantu kwa muganga hakorerwa ibintu bijyanye n'ubuvuzi butandukanye.

Abana rero bari mu ishuri ubona ko ari abana bishimye cyane bahawe udukoresho dutandukanye, ariko murabona ko ari korogate ndetse n'uburoso bw'amenyo, abana rero babyishimiye kugira ngo bajye baborosa amenyo yabo, bayoze bakoresheje korogate n'uburoso, amenyo yabo azakomeze amere neza.

Aha harimo gukorerwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi cyangwa se gusuzuma abarwayi. Urabona umwana uri aha ngaha yasamye, abaganga barimo kumureba mu kanwa ngo barebe indwara arwaye, barebe uburyo bayimuvura.

Urabona ni abantu barimo kwiga ariko bakaba bari kwiga ibintu bijyanye n'ubuzima bw'amenyo. Urabona ko bafashe ikintu kimeze nk'ishinya iriho amenyo, bakaba bari bacyasamishije bari kugisuzuma, kugikura amenyo nyine kureba ukuntu bakivura haramutse harimo iryinyo rirwaye.

Aha ngaha rero murahabona abamama, aba bamama bakaba bateraniye muri iri soko barimo kuguri inyanya, murahabona inyanya, amaronji ameze neza cyane, rero ibi ngibi bikaba bigaragara ko ari ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'imbuto ndetse n'imboga.

Aba bakecuru rero murabibona ko babukereye n'utubando twabo banakenyeye rero n'abandi bantu bose bari kugenda muri uyu muhanda urabona ko bambaye imipira yanditseho paul kagame, ya mipira bajyaga batanga mu gihe cyo kwamamaza kagame paul rero biragaragara ko abantu urujya n'uruza rw'abantu ruri muri uyu muhanda bavuye muri icyo gikorwa.

Aha rero hari abantu barimo gutegura amafunguro, murahabona urusenda, imboga, inyanya, rero ibi ngibi akaba ari byiza kuba umuntu yarya imboga, akihata kurya imboga kuko imboga zifite uruhare runini cyane mu kurinda indwara mu mubiri w'umuntu.

Aha ngaha murahabona umukecuru, akaba ari kumwe n'undi mukobwa, uyu mukobwa rero bisa n'aho ari kumusekera ari umuganga, kwa kundi umuganga aba ari kuvura umurwayi akamuha serivisi nziza amusekera, kugira ngo umurwayi yumve adahangayikishijwe cyane n'uburwayi afite.

Aha hari umukobwa ndetse n'umukecuru uyu mukecuru afite akantu ari kwifashisha mu gukora siporo ndetse n'uyu mukobwa akaba arimo kumufasha kugirango ayikore neza amaraso ye akomeza gutembera neza bitewe na siporo ndetse murabizi ko siporo ari ingenzi mu buzima bw'umuntu niyo mpamvu aba ari ngombwa ko umuntu wese agira umwanya aharira siporo akazajya akora siporo.

Abantu bateraniye ahangaha rero, urabona ka abantu basheshe akanguhe nia abantu bakuzebonako umukecuru arimo kuboha, abandi bicaye bari kugenda bamuganirira urabona ko basa nk'abari kuganira ku bintu byinshe.

Aha ngaha hari abantu batatu, hari umusaza ndetse n'abana babiri, ariko murabona ko bafashe biswi barimo kurya, ubona ko bishimye cyane kandi aba bana bari kumwe n'uyu musaza, bakaba ari abana beza kandi bari kumwe na sekuru wabo.

Aha ngaha rero murahabona abasaza babiri barimo kugenda baganira, ariko murabona ko bose bafatanya ku rutugu, bigaragara ko bishimye, bakaba bari kugenda baganira ibintu bibashimishije rwose.

Ahangaha rero murahabona umuryango wishimye bigaragara ko ari kwa kundi haba ari umuhungu ufite n'umugore n'umwana ndetse akaba ari kumwe n'ababyeyi babo urabona ko ari abantu bishimye cyane, kandi banezerewe.

Uruhurirane rw'abantu benshi bari aha ngaha, urabona ko ari ahantu habereye igikorwa cy'amahugurwa, abantu rero b'abayobozi, urabona ko bose bagiye imbere kugira ngo babashe kuba bafata ifoto y'urwibutso, urahabona rero izindi ntebe, intebe z'abantu bafite ubumuga, bisa naho hari abantu bagiye guhabwa izi ntebe.

Aba mama bari aha ngaha rero ni abamama batatu, ariko murabona ko bose bashishikajwe no kureba muri telefone ya mugenzi wabo, haragaragara ko mugenzi wabo hari ibintu ari kubereka muri telefone, noneho nabo bashishikaye kureba ibyo bintu ibyo aribyo.

Abantu bateraniye aha ngaha, urabibona ko abenshi barimo ari abantu b'abasaza ndetse n'abakecuru, bigaragara ko bateranirijwe hamwe kugira ngo babe baganirizwa ku bintu runaka cyangwa se babe babereka ibintu runaka bitewe n'ikigero bagezemo.

Aha ngaha hari gukorerwa ubuvuzi, aho hari umuforomokazi uri kuvura umusaza, ariko murabona ko ari kumuvura ari kugenda amubwira dukuru ndetse amuganiriza, kugira ngo uyu musaza ataza kuba yagira ikibazo cyangwase akaribwa akumva agitekereza cyane ku burwayi bikaba byamuca intege.

Aha ngaha rero murabona umusaza, uyu musaza akaba yaje kuba yakwipimisha areba uko ubuzima bwe buhagaze. Rero ni ingenzi kuba umuntu yakwipimisha mbere nta n'indwara yiyumvamo, ahubwo akaza kwipimisha kugira arebe se ubuzima bwe bumeze bute. Kuko hariho indwara iyo ibonetse kare kuvurwa biroroha, ariko iyo bayigusanzemo yaratinze bikaba imbogamizi zikomeye.

Ni umusaza ushehsa akanguhe bigaragara, urabona ko barimo kumyoza kuko we atagifite imbaraga zo kuba yakwiyoza ngo yiyoze umubiri wose anoge nubu urabona ko hari umuntu urimo kumyoza kugira abashe kuba yagira isuku ihagije.

Aha ngaha rero murahabona abantu, hakaba ari abantu babamama bigaragara ko bari muri siporo, bambaye imyenda ya siporo kandi murabona ko ari abamama bakuze cyane. Bigaragara ko rero bishimiye gukora siporo kandi nkuko mubizi siporo ni ingenzi cyane kuri buri muntu utitawe ngo ni umwana cyangwa ni umusaza, siporo ni ingenzi ku muntu wese.

Aha hari umuntu rero wambaye isaha. Iyo saha yambaye akaba arimo kuyifashisha, cyangwa se abaganga bakaba bayimwambitse kugira ngo akomeze gukurikirana amakuru y'ubuzima bwe, bakomezaze gukurikirana indwara arwaye, no kuyimenya neza kurushaho, bakayibonera imiti yo kuyivura.

Aha ngaha rero murahabona abantu bishimye cyane, bigaragara ko ari umuryango, akaba ari umwana, ni abana babiri, papa na mama ndetse n'ababyeyi babo, babyara ba mama wabo rero murabona ko bose bishimye cyane, ari umuryango wishimye kandi unezerewe cyane.

Uyu mukecuru ari aha ngaha rero murabona ukuntu afashe agasahani kariho ibiryo byiza bijyanye n'imboga n'imbuto, ibi biryo akaba ari ibiryo bigira intungamubiri mu mubiri w'umuntu, aho abantu benshi abazima cyangwa abarwaye bashishikarizwa cyane kurya imbuto n'imboga kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu rero murabona ko ari abantu hasa n'abahuriye mu kintu runaka, ariko bakavuga ati reka twifotoze dufate ifoto y'urwibutso, ariko ikigaragara ni uko ari abantu bakora mu bintu bijyanye n'ubuzima, minsita ovu herifu bigaragara ko bakora ibintu bijyanye no kwita ku buzima.

Aha ngaha rero murahabona abaganga ariko bakaba bambaye bikwije bose, bakambara amashashi mu mutwe, mu maso bakambara agapfukamunwa kugira ngo babashe kuba bakirinda kwanduzwa n'indwara, murabona rero ko bari kugenda bakingira abantu indwara y'icyorezo.

Aha ngaha rero murahabona urubyiruko ndetse aba bantu bakaba biganjemo abanyeshuri, murabona ko rero ari umunsi wo kurwanya indwara ya SIDA cyangwa se Virusi itera SIDA, aho buri wese ashishikarizwa kuba yakwipimisha uyu munsi kugira ngo arebe uko ahagaze ndetse n'uburyo bwo kwirinda kurwara SIDA.

Aha ngaha rero harimo gukorerwa igikorwa kijyanye no gusuzuma abantu indwara, urabona ko hateraniye abantu benshi ndetse hakaba hari n'abaganga bari gufasha muri icyo gikorwa, urabona rero ko buri muganga hari utuntu tw'udusite, aho buri hari abaganga batandukanye, buri muntu ari kujya ajya muganga akamukorera ibyo ashakaga.

Aha rero murahabona umuntu ukiri muto, bikaba bisa naho ari kuganiriza abandi bantu bamukurikiye, barimo kuganirizwa ku bintu bitandukanye ariko cyane cyane bijyanye n'ubuvuzi, bijyanye n'uburyo bwo kwirinda indwara ndetse n'imirire bakoresha kugira ngo birinde indwara.

Murahabona ibiziga bigiye biri mu magambo atandukanye ariko murabona ko byose ari uburyo bwo kuba wateza imbere ubuzima rero akako agati kanditsemo health promotion hari uburyo bwo kugenda ubuzima wahakora ibintu bijyanye no guteza ubuzima imbere ukaba ubuzima bwiza.

Ahaha rero murabona ko ari inyubako nini cyane ariko iyi nyubako irimo ibikoresho byinshi ibi bikoresho bikaba bigaragara ko ari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bikaba byifashishwa mu kuvura indwara zigiyegenda zitandukanye.

Aha murahabona ibitanda byinshi cyane kandi bisashe neza akaba ari n'ahantu hafite isuku, nubwo rero nta murwayi uryamyemo ariko murabona ko ari mu bitaro aho abarwayi baza bakaryama, kugira ngo bakomeze kwitabwaho cyane n'abaganga.

Aha ngaha rero ni ahantu hakorerwa ibikorwa bitandukanye, ariko murabona ko ari inyubako nini cyane. Hakaba haberamo ibikorwa byo kwigisha abana ibintu bijyanye n'ubukirisitu. Mo murabona ko handitse ngo Rwanda Children Christian Call. Rero bigaragara ko ariho abana bakunda kwigira ibintu bijyanye n'iyobokamana.

Aha ngaha hari inzu nini cyane, iyi ikaba ari inzu ikorerwamo ubuvuzi, murabona ko handitseho awuti pashiyeti, rero ahangaha hakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi, abantu baba bafite uburwayi bw'indwara nyinshi kandi zitandukanye. Rero ibi ngibi ni ahantu bikorerwa kugira ngo baba...

Aha ni ahantu heza, heza cyane ariko murabona ko hari inyubako ndetse bigaragara ko ari ku rutonde rw'ikigo nderabuzima cyangwa se ahantu ho hatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Murabonamo amazu menshi cyane aha ngaha aya mazu, hakaba harimo n'umuhanda ubona ko harimo abantu bagenda babagana bashaka serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza rero iri ahangaha, akaba ari inyubako nini, nini cyane, inyubako rero ikaba yifashishwa mu bintu bijyanye n'ubuvuzi, aho hakorerwa ibikorwa bijyanye no kuvura abantu ndetse no kubaha serivisi zijyanye no kuvura.

Aha ngaha rero murahabona inyubako nini cyane, iyi nyubako ikaba yanditseho Mediasol Pharmacy Remera, akaba ari inyubako iherereye i Remera mu Mujyi wa Kigali; hakaba haberamo ubucuruzi bw'imiti bw'indwara nyinshi, bitewe n'imiti wandikiwe na muganga, cyangwa se n'indwara urwaye, ukaza muri iyi farumasi ukagura umuti, ukabasha kukugabanyiriza uburibwe ndetse n'ububabare.

Aha hari umwana uri ku munzani. Aha ngaha rero hakaba hari gukorerwa igikorwa cyo gupima abana, bagapima ibiro bafite ,kugira ngo bagereranya barebe uko angana ndetse n'ibiro afite, barebe ko ari gukura neza, barebe ko afite ubuzima bwiza.

Ahangaha rero murabona ko ari kwa muganga, aho hari ibitanda biryamyeho abantu, bigaragara ko ari kwa kudi kwa muganga, umuntu bamuha kuba yararayo kugira ngo barare bamwitaho, noneho ikindi n'ibitanda abarwayi batandukanye baza bakaryamaho, kugira ngo bakomeze kwitabwaho n'abaganga.

Aha ngaha rero hari umugabo barimo gusunika mu kagare ariko bigaragara ko ari kwerekeza ku biro by'itora, murabona ko rero arimo kugenda asunikwa ariko aravuze ati'' ntabwo nabura gutora ahubwo ndemera ngende nsunikwa mu kagare ariko nanjye ntange ijwi ryanjye".

Aha ni mu bitaro ariko iki akaba ari icyumba gikorerwamo mu kuvura abarwayi. Iki rero ni igitanda umurwayi aryamaho, igihe bari ari kumukorera operasiyo, murabona ko hari n'imashini imeza nka televiziyo, babasha kuvura umurwayi bamwereka amashusho ye yo mu nda ukuntu ameze.

Ahangaha rero hari igikoresho kizwi nka mayikoroskopi cyangwa se bakunda kwifashishwa mu bintu bijyanye kwa muganga kugira ngo barebe neza ibintu biba bitagaragara neza hari ibintu rero biba bitabasha kuboneshwa n'amaso, ariko kwa muganga bifashisha mayikoroskopi kugira ngo babone ibintu.

Ahangaha rero hari umurwari uryamye ku gitanda ndetse hakaba hari n'uganga urimo kumwitaho. Rero bigaragara ko uyu murwayi yahawe igitanda kuko babonaga arembye cyane atari uwo bavura ngo atahe. Rero bakamuha igitanda kugira ngo abashe kwitabwaho cyane.

Aha ngaha rero hari bimwe mu byuma, iki cyuma kiri ahangaha kikaba ari kimwe mu byifashishwa kwa muganga igihe umurwayi arwaye indwara zo mu nda, indwara zidapfa kugaragara, bakamucisha mu cyuma kugira ngo barebe neza indwara arwaye iyo ariyo.

Icyumba kiri aha ngaha rero, akaba ari icyumba bigaragara ko gikorerwamo ibintu bijyanye n'ubuvuzi, murabona ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha mu kuvura ndetse uburyo hateguye, uburyo hasa murabibona neza ko ari mu bitaro, bavuriramo abarwayi.

Aha ngaha rero murabona amazu meza kandi akaba ari amazu yubatse neza, hakaba hariho imodoka ziparitse munsi ndetse mukaba mubona ko hari n'abantu bagenda bagana kuri aya mazu, rero aha ngaha hakaba hakorerwa serivisi z'ubuvuzi, ariyo mpamvu mubona abantu bagenda bahagana bakeneye serivisi.

Ibi ngibi ni ibitaro bya Kigina, hakaba ari ibitaro byiza cyane, murabona ko mu imbere harimo amazu meza kandi menshi, akaba ari ahantu hubatse neza kandi hafite isuku. Batanga serivisi z'ubuvuzi butandukanye rero hari ukuvura indwara z'amoko atandukanye, hari ugusuzuma ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye n'ubuzima bw'abantu.

Aha ngaha rero ni ibitaro, urabona ko harimo inyubako nyinshi cyane ndetse n'ibiti bigiye bikikijwe inyubako, akaba ari ibitaro by'i Kabgayi, ibitaro na byo byifashishwa mu kuvura abarwayi benshi cyane, harimo abo kubagwa, indwara zo mu nda, mu mutwe bose ibi bitaro bikaba bifite ubushobozi bwo kubavura no kubitaho.

Aha ngaha hari inyubako ndende cyane izwi mu bwoko bwa etaje, iyi nyubako rero murabona ko ari King Faisal Hospital, akaba ari ibitaro by'umwami Faisal, ibi bitaro bikaba bivurirwaho indwara nyinshi zitandukanye, abantu baba bafite indwara zagiye zinanirirwa mu mahopitari asanzwe bakunda kuza kuri umwami Faisal bavura indwara nyinshi.

Inyubako nini ndende yo mu bwoko bwa etaje ariko akaba bigaragara ko ari ku bitaro bikuru bya Shyira. Aho rero hakorerwa serivise z'ubuvuzi, urabizi ko ku bitaro bikuru hakorerwa ibintu bitandukanye n'ibyo ku kigo nderabuzima bakora. Rero ahangaha ni ku bitaro bya Shyira, bakora ibintu bijyanye n'ubuvuzi.

Aha ngaha rero murahabona umuforomokazi arimo gukoresha imashini kugira ngo arebe ibisubizo baba bafashe umurwayi, urabona rero ko ari inyubako nini ariko ikaba irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kumenya indwara umurwayi arwaye ndetse no kumusuzuma.

Inyubako nziza iri aha ngaha, urabona ko ari inyubako imeze neza, iyi nyubako bikaba bigaragara ko ari inyubako ikorerwamo ibintu bijyanye n'ubuvuzi ndetse hakaba harimo n'imiti ibasha guhabwa abarwayi bitewe n'indwara babasanzemo, urabona ko ari inyubako nziza cyane rero kandi ari ahantu hasukuye, ku buryo n'abaza kuhasaba serivise, baba bizeye ko babahaye ibintu bizima.

Inyubako nziza ziri ahangaha, izi akaba ari inyubako, murabona ko hari na gardin nziza cyane, ahangaha rero akaba ari ku bitaro, hakaba haberamo ibikorwa by'ubuvuzi ndetse no gutanga imiti bitewe n'indwara basanzemo umurwayi.

Aha ngaha rero ni icyumba kinini cyane kikaba ari icyumba gikorerwamo ubuvuzi, murabona ko harimo ibyuma byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuba basuzuma indwara zitagaragara, indwara zirimo imbere mu mubiri zitarimo kugenda ziboneshwa amaso.

Aha ni ahantu heza cyane, nabona ko harimo inyubako, ndetse hakaba hari ibintu bigiye bitandukanye, ariko bigaragara ko aha hantu hari ibikinisho by'abana, ari ahantu heza cyane ku bantu ba bana, kureba ibi bishushanyo bimeze uku, abana barabyishimira cyane.

Inyubako nini cyane kandi nziza, inyubako ikaba igiye irimo amabara atandukanye bisa n'aho aha hantu habera ibikorwa byo kuba bavura abantu b'abana bari kureba aya amabara ukuntu ari heza, bagatuza bakavurwa neza.

Inyubako nziza kandi nini cyane, akaba ari inyubako ifite amabara meza, akaba ari yo tuzi mu bwoko bwa etaje. Rero iyo nyubako akaba ari inyubako yo ku bitaro aho hagiye hari imiryango itandukanye bagenda bavuriramo abarwayi.

Aha ngaha rero murabona ko ari ahantu hari amazu meza kandi amazu meza aha ngaha murabona ko ari ku kigo nderabuzima aho hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima kwita ku buzima kugira inama abantu barwaye indwara zidakira ndetse no kubahumuriza kugira ngo babashe kumva batihebye.

Aha hari inyubako nini cyane kandi inyubako nziza pe, zubatswe muri ya nyubako twita ngo ni etaje cyangwa se izwi kuri ryo zina rya etaje, rero murabonaho akandi kazu kariho icyapa kinini cyanditsweho ngo sangwa porikirinike, bigaragara rero ko aha hantu hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi, ibintu bijyanye no kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Aha ngaha rero murahabona umugore uryamye ku gitanda ndetse hakaba hari n'abaganga bamuhagaze imbere, umuganga umwe urimo kumwitaho murabona ko ari kwa muganga akaba ari umuntu uryamye ku gitanda, akaba ari kwitabwaho n'abaganga kugirango ubuzima bwe bube bwakira bigende neza.

Aha ngaha rero murabona ni kwa muganga, hakaba hari abarwayi baryamye ku bitaro bigaragara ko bashyizwemo ibyuma byo kongerera umwuka, murabona rero ko aba bantu bari barembye cyane ari yo mpamvu babahaye n'ibitanda byo kuryamaho kwa muganga ndetse bakabashyiriramo n'ibyuma bibongerera umwuka.

Aha ngaha muragaragara nk'uko mubibona ni icyumba giherereye mu bitaro, iki cyumba rero kikaba kirimowo ibintu by'ikoranabuhanga imashini zikoreshwa mu kuvura abarwayi ndetse no kubitaho.

Aha hari inyubako nini cyane rero iyi nyubako bikaba bigaragara ko irimo imiryango myinshi itandukanye ariko ikaba ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi cyangwa se kugurisha imiti aho tuzi nka farumasi. hakaba harimo imiti igiye itandukanye mu gihe muganga akwandikiye umuti runaka ukaba waza muri farumasi ukawugura ukajya kuwunywa.

Inyubako nini cyane kandi nziza, ikaba ari inyubako iherereye mu karere ka Huye, aho ari ahantu hakorerwa ibikorwa bijyanye no kwigisha ibintu by'ubuvuzi. Rero aha ngaha abanyeshuri bakunda kuhakorera cyane mu kwiga ubuvuzi.

Aha ngaha rero ni ikigonderabuzima cya Tabagwe, mukabamubona ko ari ahantu hari inyubako nziza ndetse hakaba hari n'abantu baza bagana iki kigonderabuzima kugira ngo babashe kuba bakivuza indwara barwaye ndetse na bo bagahabwa serivisi nziza zibanogeye kandi bagataha bahawe imiti ibafasha ku kuvura indwara.

Ni ahantu hanini cyane ariko biragaragara ko ari ahantu habikwa imiti yifashishwa kwa muganga. Murabona rero ko hagiye hapakiyemo imiti y'ubwoko butandukanye, akaba ariho abaganga baza kureba imiti yo guha abarwayi bitewe n'uburwayi abarwayi bafite.

Aha ngaha hari ibitanda bimeze neza, ibitanda akaba ari ibikunda kuryamwaho n'abarwayi, igihe hari umurwayi urembye utabasha kuvura ngo ahite ataha, ahubwo bisaba ko akomeza kwitabwaho cyane n'abaganga, rero araza kuri ibi bitanda akaryama aha ngaha noneho abaganga bakamwitaho.

Ahantu heza cyane hateye amarange, hasize amarange y'umweru, bigaragara ko aha hantu ari kubitaro, aho habera serivisi zitandukanye, noneho murabona ko ari ahantu heza cyane, ahantu ku bitaro hagomba kuba hafite isuku, kugira ngo abaza bahagana na bo bahabwe serivisi batijujuta.

Aha ngaha rero murahabona, ni mu cyumba cyo kwa muganga. Akaba ari hamwe bakoresha bari kuvura amenyo, iyi ntebe rero umurwayi abasha kuba yayiryamamo akayegamamo. Noneho muganga nawe akareba mu menye ye ikibazo cyaba kirimo.

Iyi nyubako rero murabona ko ari inyubako nziza kandi nini, hakaba ari aho bavurira abarwayi, aha ngaha hakaba harimo ibyuma byifashishwa cyane n'abaganga kugira ngo babashe kureba indwara, barebe mu nda umuntu bamuremo barebe indwara arwaye, barebe mu mutwe ndetse babe bareba mu mubiri wose w'umuntu bakareba ikibazo afite.

Uyu muntu rero murabona ko ari gukora siporo, hakaba hari ibikoresho byose byo kwifashisha byo gukora siporo zijyanye no gutwara akoresheje amaguru ye. Urabona ko hari utuntu ari kugenda akatakakatamo kugira ngo arebe ko ibintu biri kujya mu buryo kandi birimo no gukunda.

Aha hari umukobwa uri muri siporo, akaba arimo kugenda asunika ibintu kugira ngo abe yakirambura, arambura amaboko ye kugira ngo siporo ari gukora zize kumugirira akamaro.

Aha ngaha rero harimo igikoresho cyifashishwa kwa muganga, iki ngiki bakaba bagikoresha kugira ngo barebe neza indwara babasha kuba bakereka umurwayi indwara arwaye, utarinze kwirirwa babimubwira ahubwo bakabimwereka, bakanamusobanurira ibyo ari byo ari kugenda anabibona.

Aha rero hari umukobwa akaba ari gukora siporo, urabona arunamye akaboko kamwe gafashe mu mugongo akandi gafasha kugura, izi ngizi rero akaba arizo siporo zifasha cyane umubiri w'umuntu zigatuma amagufa agororoka, zigatuma buri kintu imbere kigenda neza.

Ahangaha rero hari ibiribwa by'ubwoko butandukanye harimo imboga, amagi, ibishyimbo, imbuto n'ibindi byinshi bitandukanye urabona ko rero uyu mugabo ari no kurenzaho agakora siporo kugirango ubuzima bwe bukomeze kugenda neza, rero biba byiza iyo uriye indyo yuzuye warangiza ukanakora siporo bigira uruhare runini mu gutuma umubiri wawe ugenda neza.

Ibintu biri aha ngaha rero harimo amazi, pome, amaronji ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa muri siporo, ibi ngibi byose rero akaba ari ingenzi mu mubiri w'umuntu, bishaka kugaragaza ko imbuto ndetse zifasha cyane iyo na siporo uyikora biba byiza kurushaho.

Aha ngaha rero murabona ko ari kwa muganga, hakaba hari umurwayi bisa naho yageze imvune mu kaguru. Urabona ko bamwambitse ibyuma mu kaguru kugira ngo babe bareba uburyo amagufwa yo mu kaguru ameze ndetse barebe n'ikibazo, babasha kuba bamuha ubufasha.

Abantu bari aha ngaha rero murabona ko, ari umuntu w'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba barimo kugenda birukanka bakora siporo, urabona ko bitwaje n'uducupa tw'amazi kugira ngo igihe inyota irabica babe banywa ya mazi noneho bakore siporo yabo, nta kindi kibahangayikishije kandi bayikore bayishyizeho umwete.

Abantu babiri baraha, rero urabona ko ari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, bakaba bari barimo bakora siporo bakina, noneho uyu umwe uryamye akaza guhura n'ikibazo mu ivi hanyuma ukabona ko mugenzi we barimo kumwitaho.

Aha ngaha rero murahabona igikoresho cyifashishwa mu bintu bijyanye na siporo, abantu bakunda gukora siporo cyane barakizi, gikunda kwifashishwa cyane cyane ku bantu bazi gukora siporo ndetse aho baba banazi kugikoresha.

Aha hari umuntu rero bisa nk'aho yagize ikibazo cy'imvune, akaba yageze imvune mu ivi. Rero murabona ko hari umuntu wundi urimo kumwitaho akamuramburira mu ivi, akamugirira neza kugira abashe kuba yakorohera.

Ahangaha rero hamu umugabo bigaragara ko yahuye n'imvune mu kaguru ke ariko hakaba hari n'undi muforomo uri kumwitaho agenda amuzirika kugira ngo imvune ibe yakoroha abe yasubira mu buzima busanzwe.

Aha ngaha hari ubwoko butandukanye bw'imiti ariko imiti cyane cyane ikaba ikoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu. Murabona ko rero ari imiti yifashishwa muri siporo ,igihe umuntu ahuye n'ikibazo muri siporo ,akaba yakoresha umwe muri iyi miti kugira ngo akomeze kumererwa neza.

Aha ngaha rero murabona ko ari kwa muganga, hakaba hari abarwayi bicaye ku bitanda byabo, umuforomo imbere yabo, ariko muraza ku kubona n'abandi bagabo batatu bisa n'aho baje kugenzura cyangwa se gusuzuma imikorere y'uyu muganga.

Aha ngaha rero murabona umuntu akaba afite akantu ko kumufasha gutuma atava amaraso, urabona ko rero kwa kundi batera umuntu urushinge noneho agakomeza kuva amaraso, rero bamuha aka akantu kugira ngo kamufashe kugabanya kuva kw'amaraso.

Aha ngaha rero murabona umuntu wicaye ndetse akaba yagize ikibazo cy'imvune mu mavi, ariko hari umuganga urimo kumwitaho agenda amwomekaho bande kugira ngo amworohereze imvune ndetse akagenda amusiga n'umuti kugira ngo abashe kumererwa neza.

Ahaha rero murabona ko ari ku bitaro kwa muganga kaba mubona icyuma rero cyifashishwa mu kureba indwara zo mu nda ndetse n'izo m'umutwe. Imbere y'inzu abantu batabasha kurebesha amaso inyuma ahubwo bakareba ikintu umuntu aba arwaye mbere ntaje kumwinjiza muri iki kibazo.

Aha ngaha rero murabona ni kwa muganga, haba hari umugabo cyangwa se umuganga urimo gukoresha imashini areba ubuzima bw'umurwayi uburyo buhagaze arebe ibyo yasuzumye ngo arebe ibyavuyemo.

Aha ngaha rero hari umukobwa uri gukora siporo, ariko impande hakaba hari n'imbuto ziribwa, hakaba harimo: imineke, amapome, maronji, ndetse zikaba izi mbuto zifashishwa cyane mu kugarura imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Ibi bintu rero murimo kubona aha ngaha, murabona ko higanjemo imbuto, imboga ndetse n'amazi. Hkaba rero harire n'akandi gakoresho kifashishwa muri siporo, rero ibi bintu byose ni ingenzi mu mubiri w'umuntu, imbuto, imbonda bigira uruhare cyane mu kdanda indwara.

Aha rero hari umugabo usa n'aho yari yarahuye n'imvune, ariko murabona ko hari umuganga uri kumwitaho. Ari kugenda amurambura kugira ngo imvune yageze hariya mu ivi ibashe kuba harambuka ntihazaremare ahubwo harambuke yongere kugenda neza.

Aha ngaha rero murahabona igikapu, iki gikapu kikaba gipfunyitsemo ibintu byinshi bijyanye n'ubutabazi bw'ibanze. Urabona ko harimo imiti y'ubwoko butandukanye ndetse iki ngiki akaba umuntu yakshisha mu gutwara iyo miti y'ubwoko butandukanye yo gutanga ubutabazi bw'ibanze ahantu habonetse ikibazo cyangwa se imvune

Aha ngaha rero harimo kugaragara umusore uri muri siporo, bikaba bigaragara ko rero yunamye afashe ku mavi arimo kugorora mu mavi he kugira ngo hamere neza, yumva ameze neza yumva nta kintu kimubangamira bitewe na siporo.

Ahangaha rero hari umugabo uryamye, ubona ko yambaye inkweto za siporo n'imyenda biragaragara ko ari umuntu wara muri siporo noneho akaza kugira ikibazo ahura nacyo cy'imvune, akitabaza undi mugenzi we akamukandira, akamusiga pomade akamukandira.

Aha ngaha rero murabona ko ari ku bitaro, hakaba harimo gukorerwa ibikorwa bijyanye no gusana ahantu hatameze neza. Urabona ko rero hari abantu bahuriye hejuru ku rwego, bari kugenda bagira ibyo bakora kugira ngo serivisi zitangirwa zirusheho kunozwa neza.

Aha ngaha rero hari ubwoko bw' imodoka, iyi modoka akaba ari imodoka bita imbangukiragutabara. Iyi modoka rero yifashishwa n'ibitaro igihe hari umurwayi urembye cyane ibitaro bibonye nta bushobozi bwo kumuvura bafite, bakamwohereza ku bindi bitaro bikuru kugira ngo abashe guhabwa ubutabazi bwihutirwa.

Aha ngaha ni uburuhukiro bw'abantu bavuye muri siporo, aho iyo uramutse uhuye n'imvune cyangwa n'ikindi kibazo igihe uri muri siporo, uba waza ukaba uryamyeho, ukaruhuka kugira ngo ubone uko ugera mu rugo...

Uyu mugabo uri aha ngaha rero urabona ko arigukora ibintu bya siporo, ari kurambura amaboko ndetse n'imyenda yambaye murabona ko ari iya siporo. Rero siporo ni ingenzi cyane mu buyobozi bw'umuntu iyo umuntu akunda gukora siporo, akanywa amazi agira ubuzima bwiza nta n'indwara zikunda kumushotora.

Umuntu w'igitsina gore bigaragara ko ari muri siporo ariko akaba ageze aho kumva inota iramwishe akareba mu byo yitwaje agafatamo amazi akanywa kugira ngo arebe ko yakora siporo neza, yumve ameze neza, yumve nta nyota ameze neza cyane.

Aha murahabona ibiribwa by'ubwoko butandukanye hari inyama, hari ji ndetse ibingibi byose biri aha hakaba harimo ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Rero biba ari ingenzi cyane kuba umuntu yafata ifunguro rigizwe n'ibyo bintu uko ari bitatu; ibirinda indwara, ibyubaka umubiri n'ibiteraba kugira ngo umubiri we ukomeze kuba ufite ubudahangarwa bw'indwara.

Aha hari umuntu w'igitsina gore uyu umuntu bikaba bigaragara ko ahantu ari ; ari muri siporo akaba ari gukora utwitozo two kwigoro, kugorora amaboko ndetse n'utundi dutandukanye kugira ngo agire umubirire mwiza. Nk'uko mubizi muzi ko siporo ari ingenzi mu buzima bw'umuntu iyo umuntu akora siporo nta bintu by'indwara nyinshi zikunda kumwataka.

Aha ngaha rero murahabona umugabo akaba ari muri siporo, ubona ko yananuye ari kunanura akaguru ndetse n'amaboko agenda yanura, siporo rero murabizi ko ari ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu, aho umuntu abasha kugira amaraso ari gutembera neza, ubuzima bwe bukagenda neza bitewe no gukora siporo.

Aha ngaha rero murimo kubona umugabo uri muri siporo, akaba yicaye agasoma ku mazi kandi murabizi neza ko siporo ari ingenzi mu buzima bw'umuntu, ikindi iyo wongeyeho no kuba wanywa amazi biba byiza kurushaho kuko bituma amaraso akomeza gutembera neza ndetse ntabe yanakonja mu mubiri.

Aha ngaha rero murahabona umurwayi bikaba bisa n'aho arwaye imvune mu kirenge ubona ko yaje kwa muganga rero bakaba barimo kumuzirika amabande kugira ngo imvune ibe yakoroha.

Aha hari umukobwa uri muri siporo ariko akaba agenda yiyambariye ekuteri kugira ngo abashe gukora siporo nta bindi atekereza bimurogoya. Ikindi murabona ko arimo kunywa amazi, ku muntu uri gukora siporo rero biba ari byiza kwitwaza amazi kugira ngo aho yumva ananiriwe yummva imbaraga ziri kugabanuka abe asoma ku mazi yongera agarura imbaraga.

Aha ngaha rero murabona ko ari ahantu hakorerwa ibikorwa bya siporo, hakaba harimo abantu benshi bitabiriye siporo aha ngaha, rero mubona ko bagenda bambara inkweto, mu mavi bakambaramo ibintu bibarinda kuba bakomereka igihe bari muri siporo.

Ahanga rero urahabona igishushanyo kiriho ibintu bigiye bitandukanye, hari umuntu uri kuribwa umutwe, hakaba n'undi urimo kuruka, hakaba n'undi, abandi bari kurwana, undi mbese murabona ko hari ubwoko butandukanye n'abarwayi batandukanye.

Aha ngaha rero murahabona imbuto, amazi ndetse n'ikindi cyuma bakunda kwifashisha muri siporo. Murabona ko rero aha ngaha ari ibintu byose by'ingenzi mu buzima bw'umuntu, ibi bikaba ari ibintu bifasha umuntu kumurinda indwara, cyane cyane imbuto na siporo; ibyo bintu ni byiza cyane mu kurinda indwara mu mubiri w'umuntu.

Umugabo urahangaha arimo gukora siporo, nkuko mubibona urabona ko ari kunywa amazi, ari hahandi umuntu aba ashaka ari muri siporo akumva agize inyota. Rero biba byiza kujya muri siporo witwaje agacupa k'amazi kugira ngo igihe urumva wishwe n'icyaka ube wanywa amazi ubundi ukomeze siporo ntakikubangamiye.

Aha murahabona ibyatsi, ibi byatsi rero, akaba ari ibyatsi bikunda kwifashishwa cyane mu gukora imiti ya kinyarwanda, iyi miti ikaba ivura indwara zitandukanye, umuntu atarinze kuba yarya ibinini cyangwa bamutera inshinge ahubwo agakoresha ibi byatsi.

Aha hari igiti kiriho amababi, iyi miti rero ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Aya mababi arakoreshwa cyane, bakabayafata bakayahonda, bakayakuramo umutobe, barangiza umutobe bakawunywa ukajya mu mubiri ukavuramo indwara zitandukanye.

Aha ngaha rero hari ubwoko butandukanye bw'imiti, murahabona ibinini, mukahabona ibimera, rero ibi byose bikaba byifashishwa mu kuvura indwara, cyane cyane ibimera murabona ko ari byinshi, bikaba bivura indwara, ariko harimo nk'iyafashwemo nk'imiti ya Kinyarwanda.

Ahangaha rero murahabona ubwoko bugiye butandukanye bw'ibyatsi, ariko ibi byatsi bikaba byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, imiti bifashisha kwa muganga cyangwa se umuntu ashobora kuyifashisha atarinze ajya kwa muganga, ahubwo akayifashisha mu kuvura indwara zitandukanye.

Aha murahabona ibikombe rero by'ubwoko butandukanye, hari ibisa n'ibitandukanye ariko ibikombe biragaragara ko hagiye harimo imiti ya Kinyarwanda igenda ivura abantu bitewe n'indwara barwaye.

Aha ngaha rero murahabona ibintu bitandukanye, ariko akaba ari ibintu bigiye bipimye. Murabona ko hari n'umuzani babipima, ariko akaba ari ibintu byifashisha mu miti ya Kinyarwanda. Abavuzi ba Kinyarwanda rero, ni bo bakunda gukoresha iyi miti bitewe n'indwara bari kubonamo umurwayi.

Iri icupa murabona ko ryanditseho aro pice, iri cupa bikaba bigaragara ko harimo umuti ujyanye n'umutego ukozwe mu byahatsi, mu bintu bitandukanye biri angaho, rero biragaragara ko muri iri cupa harimo umuti wa kinyarwanda ya miti bita taradishono medesine.

Aha hari udutibe rero, bigaragara ko turimo ibintu bijyanye n'imiti. Ariko rero murabona ko ari imiti iba atari bya binini, ahubwo ari imiti bakoze bakabikora mu bimera, bakabishyira mu dutibe, kugira ngo abantu bajye babona uko babyifashisha.

Ahangaha rero murahabona amacupa, aya macupa y'ubwoko butandukanye, amaremare amagufi, ariko yose biragaragara ko harimo imiti imiti ikozwe mu bimera, rero hari umuti w'umushongi banywa, hari amakara, hari igisura, ndetse amavuta yose bisiga kugirango babe bakira indwara.

Aha hari ibintu bitandukanye ariko bigaragara ko ari imiti ya gakondo, urabona ko hari n'akantu bakoresha bayigira ifu, hari akantu bayihonderamo bakayigira ifu noneho bakayifashisha mu kuvura indwara zitandukanye.

Aha rero abantu ndetse hakaba n'udu tube, rero bikaba bigaragara ko udu tube twifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu. Murabona abantu bahari bafite ibibazo bijyanye n'uruhu, ariko hakaza n'abandi hepfo bishimye bigaragara ko bakoresheje utu dutube tukabagirira akamaro.

Aha ngaha hari ibimera bigiye bihinze. Ibi bimera rero, aya mababi yabyo akaba yifashishwa mu gukora imiti gakondo. Rero imiti gakondo ni imiti ivura umuntu, hariho n'abayivuza bitabaye ngombwa ko ajya kwa muganga, ahubwo akaza agafata nk'ibi bibabi, akaba yabihekenya cyangwa se akabyisiga akabasha gukira.

aha ngaha rero hari amacupa ndetse n'utundi dukarito turimo ibintu byinshi ariko ikintu kiganjemo hakaba hapfunyitsemo imiti ya gakondo, imiti ikoreshwa iba yarakozwe mu bimera.

Ngaha rero murahabona utwatsi ariko utwo twatsi abatozi neza mu bwoko twate utu twatsi rero twakwifashishwa mu bintu bitandukanyeba twifashisha mu guteka ari tunakoreshwa nk'umuti kuko hari indwara zitandukanye tugenda tuvura.

Aha ngaha hari amacupa menshi cyane, amacupa aringaniye, reka aya macupa bigaragara ko arimo ibintu bijyanye n'imiti byo kuvura abarwayi, urabona rero ko ari amacupa agaragara neza, ariko cyane cyane biragaragara ko ari imiti irimo yo kuvuvura indwara zitandukanye.

Aha ngaha muhabona ibintu bitandukanye ariko bigaragara ko ari ubwoko bw'ibyatsi bimwe, iruhande ari indimu, bikaba bikoresha mu gukora imiti isanzwe cyangwa se imiti itadisiyoneri, batifashishije ibinini, ahubwo bagakora imiti isanzwe iri aho ngaho.

Aha hari icupa bigaragara ko, ari amacupa yifashishwa mu gushyira imiti, hari abayakoresha bagashyiramo ibinini, hari akoreshwa bagashyiramo utuntu tumeze nk'ifu, ariko byose ari imiti ivura abarwayi kandi indwara zitandukanye.

Amacupa manini ndetse n'amato ari ahangaha, aya macupa bikaba bigaragara ko abasha kuba.

Aha hari icupa rigaragara hariho ibintu by'imbuto bihashushanyije ndetse n'ibyatsi by'ibikakarubamba iri rikaba ari icupa rero ripfunyitsemo imiti ijyanye na kinyarwanda, imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ahangaha rero murabona ko ari icyasi ndetse hakaba hari n'abavoka, bigaragara rero ko ari uburyo bwo gukoresha avoka ndetse n'igikakarubamba kugira ngo haboneke amavuta cyangwa se isabune yifashishwa mu gukaraba ndetse ikaba yanakoreshwa mu kuvura indwara zimwe z'uruhu.

Aha ngaha rero hari ubwoko bw'ibyatsi, iki cyatsi akaba ari icyatsi cy'igikakarubamba. Igikakarubamba rero gikoreshwa mu gukora imiti itandukanye ndetse amasabune avura uruhu, amavuta yo kuvura uruhu ndetse cyane cyane indwara z'uruhu, iki gikakarubamba kirakoreshwa cyane.

Aha ngaha rero murahabona ibintu by'ibimera bashyize mu kintu, ibi bimera rero akaba ari byo byifashishwa bakabihonda bakabikuramo imiti rimwe na rimwe akaba ari imiti y'fu cyangwa se bagashyiramo utuzi akaba ari umushongi, ikifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Aha hari icyatsi. Iki cyatsi rero kikaba cyifashishwa mu gukora imiti. Imiti ikoreshwa mu buryo butari ubw'ibinini. Hari ababikora bakabisya hakavamo agafu akaba ari barya mu biryo cyangwa abandi bakabisekura gusa bikiri bibisi bakanywa amazi avuyemo.

Ahangaha murahabona imbuto z'ubwoko butandukanye, hari imineke, hari inanasi, indabo n'ibindi ariko bigaragara ko byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye. Rero murabona ko n'ibyo tuba twifitiye nabyo byabasha kutuvura indwara, imineke n'inanasi n'ibindi bitandukanye.

Aha ngaha rero murahabona amacupa y'ubwoko butandukanye, aya macupa akaba agiye yose apfunyitsemo imiti, imiti ya kinyarwanda. Hari imiti rero bajya batanga bitewe n'indwara umuntu arwaye bakamuha imiti ya kinyarwanda, harimo amakara, igisura, n'indi miti y'ubwoko bwinshi ariko ikozwe mu miti gakondo.

Aha ngaha rero hari ibyatsi akaba ari ibyatsi bitandukanye, ibi byatsi bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo, akaba ari imiti ivura indwara zitandukanye, rero hari abahitamo kuba babikoresha gutya, bakabihekenya cyangwa se bakabikoramo agafu bakazajya bakarya mu biryo, kugira ngo kabavura indwara.

Aha ngaha hari amacupa, amacupa bigaragara ko arimo imiti, aya macupa rero akaba apfunyitsemo imiti yo mu bwoko gakondo, akaba ari imiti bakora mu bintu by'ibyatsi, mu bintu bidashamaje cyane atari ibinini.

Aha ngaha rero murahabona icyatsi, iki ngiki akaba ari icyatsi gikunda gukoreshwa mu miti, akaba ari cyo bita umuravumba, kirifashishwa cyane rero, hari abakoramo ifu, hari abagisekura cyangwa se bakagikamuramo umutobe, akaba ari wo banywa kugira ngo kibavure indwara.

Aha ngaha rero urahabona ibintu bipfunyitsemo cyane, ariko akaba ari ibintu byifashishwa mu kuvura indwara zimwe z'uruhu, kuko murimo kubonamo n'isabune ndetse n'utundi dutibe bifashisha bisiga, kugira ngo indwara z'uruhu zikire.

Aha ngaha rero murabona ibintu byinshi bitandukanye, ariko iyi yose ni imiti ya kinyarwanda, imiti gakondo ifasha mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Rero urabona ko ari imiti myinshi bigaragara ko buri muntu wese dore muganga ashobora kubonamo imiti myinshi yo kuvura abarwayi.

Imiti y'ubwoko butandukanye igiye iri mu macupa, iyi miti rero hakaba harimo amakara, ibisura ndetse n'iyindi miti itandukanye. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu n'umutwe n'indwara nyinshi cyane.

Aha ngaha rero murahabona ibiti, noneho ibi biti bikaba bifite amababi, aya mababi rero akaba ari amwe muyifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda, imiti y'indi abantu banywa batabanje kuba bavuga ngo barayinywa ari ibinini, ahubwo iyi imiti bakaba bayifashisha, bakaba bakoramo nk'ifu umuntu akayishyira mu biryo akarya ubundi bikamuvura indwara.